Iki ngiki akaba ari ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, ubwishingizi mu kwivuza warwara, umuryango wawe warwara, abana bawe ukabavuza cyangwa ibinyabiziga cyangwa n'inzu, icyo ushaka cyose bakiguhera ubwishingizi. Akaba ari ku Kinamba.

Ikingiki kikaba ari ikigo gitanga ubwishingizi mu kwivuza wenda ushobora kurwara bakaguha ubufasha ubufasha bwo kwivuza ushobora ko ufite ikinyabiziga cyakora impanuka bakagisana, abafite inzu yashya bakayisana.

Ikingiki akaba ari ikigo gitanga ubwishingizi bw'imodoka ndabona hano ngo itatu n'atanu bano iyo ikinyabiziga cyawe kigize ikibazo babasha kukigusanira waba wakoze impanuka bakagira ibyo bita ingoboka.

Aha ngaha rero akaba ari mu isoko, uyu ni umugore akaba ari mu isoko, aha ni icyanya cyahariwe ubucuruzi, inyuma ye hakaba hari ibintu bitandukanye, hari inyanya, akaba afite n'ibindi bintu mu ntoki, yambaye n'ubundi nk'umucuruzi, urabona yishimye ari guseka.

Akaba ari urubuga, urubuga rushinzwe gucururizwaho ibintu bigiye bitandukanye, kuri murandasi kuko ni byo turi kubona, hano rero ushobora kureba, ukareba igiciro waramutse wakunze ikintu, nk'iyi ngiyi ni ishakoshi nziza cyane.

Aha akaba ari ikusanyirizo cyangwa akaba ari ahantu hacururizwa amata, hari ubucuruzi bw'amata n'amazi y'inyange. Iyi rero ni uruganda cyangwa ikigo gikora ibinyobwa birimo amata, amazi...

Aba ngaba ni abagore babiri aho bariho baramamaza wagira ngo ni amata, umwe akaba afite igikarito, igikarita cyayo undi akaba ayafite ari abiri mu ntoki, akaba n'ubundi ari ahantu bacururiza ibintu by'ibinyobwa cyangwa n'ubundi ni amata.

Ayangaya akaba ari amafaranga ibusinzi igihugu icyacyo gusa ntago ari mu Rwanda umuntu akaba ayafashe mu ntoki rero akaba ari kuyerekana ni inota imwe inoti ya makumyabiri ikaba ishushanyijeho nzu.

Iki ngiki akaba ari ikigo gishinzwe ivunjisha ry'ifaranga, hano ujyana amanyarwanda bakaguha wenda amadolari bitewe n'igiciro gihari, ugafata amadolari ukayashyira mu manyarwanda, bitewe n'igiciro cy'uko iryo faranga rivunjishwa.

Aha ngaha akaba ari mu nzu, aha ngaha ni mu nyubako hasa neza, urabona hari intebe, hari ameza asa neza cyane y'ibirahuri agezweho kandi ibi ngibi bikabikorerwa mu Rwanda, uko bigaragara ni mu Rwanda.

Ibi ngibi akaba ari ibikoresho byiza byo mu nzu, ibi bikaba ari ibyo kuryamaho ku gitanda, ibi bikaba ari byiza uko bigaragara biri ahantu heza birasa neza cyane ni iby'abasirimu.

Aha ngaha hakaba ari ahantu heza, iyi bayita hoteri n'ubwo nta zina, gusa hano hari ubwogero busa neza pe! Ubwogero bunini, hari uburiri aho baruhukira, harasakaye hari n'ahadasakaye uhitamo aho ushaka.

Iyi ngiyi rero akaba ari inyubako, akaba ari inyubako ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali, akaba ari asaga amadolari magana atanu na mirongo itanu, iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali, aha ngaha akaba ari ibihumbi magana inani na cumi bisaga.

Akaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali kanombe i Kanombe umurenge wa Kanombe, ikaba igurishwa miliyoni mirongo icyenda zonyine z'amanyarwanda, ikaba iri mu nzira iri mu mujyi imeze gutya watanga.

Iyi ngiyi rero akaba ari inzu iberamo ubucuruzi, akaba ari inzu y'ubucuruzi, hano hari umukobwa, bitewe n'imisatsi, uko umuntu amureba inyuma, hari ibyo buriya yaje kugura, haruguru hari umugabo nawe wambaye ingofero mu mutwe w'umukara akaba ari gucuruza.